Ingabo z'igihugu ziba ari nziza cyane, kuko zituma igihugu kitavogerwa, ingabo z'igihugu ziba nziza cyane, ingabo z'u rwanda ziba zifite imbaraga nyinshi cyane, nta n'uwavogera igihugu ingabo z'igihugu zihari, ziba ari nziza cyane zituma igihugu gitavogerwa, igihugu kigira ubusugire.

Abapolisi baba ari beza bakoresha inama bakabwira abantu bari kubabwira ibintu byabateza imbere, babwira abaturage ibintu bibateza imbere kandi bakababwira n'ibintu bitanga umutekano muri rusange.

Ingabo z'igihugu turazikunda, dukunda n'abapolisi bacu, bose batugirira umumaro wo kuducungira umutekano bagatuma igihugu cyacu kigendwa, abasirikare ni beza cyane turabemera.

Ubwikorezi bw'imizigo ku matagisi, ubusanzwe yatwaraga abantu mo imbere, ariko habaga igihe imizigo yabaye myinshi ,bikaba ngombwa nyine ko bayipakira no hejuru hejuru y'imodoka, ibintu bikagenda neza buri wese akagenda yishimye ko n'umuzigo aba yajyanye na wo ariko akenshi bikunda guteza impanuka, byiza cyane ariko iyo habayemo umwe agateza impanuka.

Abantu baba bakoze ibyaha nyine babambika amapingu, kugira badakomeza gukora ibindi byaha, bituma nabo babona ko bakosheje, bikagabanya urugomo, n'imico mibi mu baturage, biba ari byiza cyane iyo abantu bakoze ibyaha bafashwe bakambikwa amapingu.

Umwuga w'ubuporisi uba ari mwiza cyane utunga abantu bawubamo. Kandi umwuga w'ubuporisi utuma mu giturage habamo umutekano mwinshi cyane, kuko nta muntu ukosa hariho inzego z'umutekano nk'abaporisi cyangwa abasirikare. Kandi biba ari byiza cyane iyo bari gukora akarasisi bishimisha abantu benshi, biba ari byiza cyane.

Ku bibuga by'indege haba hari ababishinzwe, abapolisi cyangwa izindi nzego z'umutekano. Zituma hagira umutekano nyine kubera haba hari abacunga mutekano cyangwa abaporisi bahakora, bigatuma nyine hataba akavuyo Kandi ku kibuga cy'indege haba hatuje ari byiza cyane.

Umutekano ni mwiza cyane, kwegereza abaturage Abapolisi biba ari byiza cyane, nk'iyo umuntu yakoze icyaha bahita bamufata bakajya kumugorora, bakamwigisha mbesi umutekano uba ari mwiza cyane, ahantu hose iyo hari umutekano ibintu bigenda neza.

Ibikoresho by'umutekano by'ikoranabuhanga biba ari byiza cyane, amakamera y'ikoranabuhanga ry'amashanyarazi, amasoneri cyangwa se inzongera ikoranabuhanga ry'amashanyarazi, biba ari byiza cyane bicunga umutekano, birinda ibisambo, bituma ibisambo bitaza kwiba.

Inzego z'umutekano ziba ari nziza cyane, cyane cyane nk'inzego z'umutekano haba harimo abapolisi, hari n'abasirikare. Bashyira abaturage ku murongo, bakabigisha ibyiza cyane. Mbese batuma n'Igihugu kigira ubusugire. Ibindi bihugu cyangwa se ibirara ntibivogere igihugu kirimo umutekano.

Muraho neza! njyewe nagira ngo mbabwire icyiza cy 'ubuyobozi bw'iki gihe, dusigaye tugira ibibazo, ubu ntabwo bijya bitugora, ubuyobozi bwacu bukabikemura, ibibazo byacu dufite, ikibazo n'abaturanyi ubuyobozi mbese ubwacu bwaratwegereye, ntabwo bujya bitugora, ibintu byaroroshye mbese muri make.

Akamaro ka polisi, polisi zituma nyine abantu bakurikiza amategeko, kuko zibabwira amabwiriza n'amategeko, yose abaturage bakabikoresha neza cyane, kugirango badakomeza gukora ibintu bidakorwa.

Umuhuro w'abaturage n'abayobozi, uba ari mwiza cyane, kuko abaturage bavuga ibyifuzo byabo, n'abayobozi bakakira ibibazo, by'abaturage baba bafite, bikagenda neza nyine, buriwese akisanzura ku wundi, mbese ubwisanzure buba buri hagati ya bose kandi buri wese izwi.

kujya mu nama biba ari byiza cyane, bituma umuntu yibuka ikintu atarazi cyane cyane nk'iyo abayobozi basuye mu midugudu, ibintu biba ari byiza cyane kuko ufite ikibazo ufitanye n'umuntu ikibazo n'umuntu ibintu biracamo nyine bigatungana neza, ukabaza abayobozi bose ibibazo byose ufite bikagenda neza.

Inama cyangwa se guhura kw'abantu, kugira baganire ku bintu bituma ibintu bigenda neza, buri wese avuga ibyiyumviro bye cyangwa se ibyifuzo bye, bigatuma nyine ibikorwa barimo bigenda neza, buri wese atanga ingingo ye, bagahuriza hamwe, ibintu bikagenda neza, bakavuga aho biri kugenda nabi.

Inama iba ari nziza cyane ituma abaturage baganira n'abayobozi, twavugamo nk': abasirikare, abapolisi, abagitifu b'utugari. Kandi inama ituma abantu bose bumva ko bari mu gihugu kimwe bakishimirana.

Guhu kw'abayobozi bib ari byiza cyane ,bose barahugurana, ntabwo baba banganya ubushobozi, barahura buri wese agatanga igitekerezo cye, ibintu bikaba ari byiza kuko ntamuntu umenya byose, guhura biba ari byiza cyane, bituma bagera ku ngingo nyamukuru.

Gukora umuganda biba ari byiza cyane, kuko gukora umuganda bituma ahantu nyine hameze nabi hananiranye nk'aho umuntu atakwishoza bituma ibintu bigenda neza cyane, noneho gukora ibiraro ntabwo biba ari byiza cyane kuko bituma abantu bambuka ahantu h'umuferege cyangwa umugenda aharaniranye, nyine bituma ibintu byose bigenda neza iyo abantu bbahuye bagakora umuganda.

Ihuriro ry'abaturage n'abayobozi babo, riba ari ryiza cyane kuko bituma abaturage bisanzura ku bayobozi babo. N'abayobozi bamenyana n'abaturage babo. Bigatuma serivisi zose zigenda neza. N'iyo bagiye gukora umuganda biba ari byiza cyane . Kuko n'umuyobozi bituma amenya umuturage wasibye ni uwuhe kubera ko baba baziranye.

Ingoma nziza cyane, kera babambaga ingoma, ariko nubu ingoma ziracyakoreshwa cyane, ahantu cyane cyane nko mu cyaro, ingoma gakondo, kuzibamba umuntu wambaga ingoma mbese, bimufitiye akamaro bimwinjiriza amafaranga, bikamutungira umuryango we neza.

Uduseke tuba ari twiza cyane, mu muco gakondo abantu bakoreshaga uduseke mu kuzindukana imyaka mu kutujyana mu bukwe, n'ubu ngubu tuba dufite akamaro cyane kuko baracyatuzindukanamo imyaka, Kandi tuba ari twiza cyane badukoreshamo imitako, imitako y'uduseke iba ari myiza cyane iba iri kugaragara neza.

Umwuga wo kuboha ibirago uba ari mwiza cyane, bakunda kubikoresha nk'umuco gakondo, ibintu by'iterambere itaragerwaho, ariko biba ari na byiza cyane babiryamaho bikoresha mu kubyicaraho nk'iyo ufite abashyitsi biba ari byiza cyane.

Umuco wo gukama aba ari mwiza cyane abantu bakama babona umusururu wo kunywa baracuruza urwagwa barukamye barucuruza bakabona amafaranga. Kandi abantu barugura birabashimisha kuko barushaka cyane, alukoro ziba zikenewe mu mubiri kenshi.

Imbyino gakondo ziba ari nziza cyane zisurutsa abantu zituma abantu bamenyana. Imbyino gakondo zituma nyine buri wese yiyumvako nawe ari umuntu ari umuntu nk'abandi zihuza abantu, imbyino gakondo kandi zitunze abantu benshi abantu benshi bazikoresha ku mbuga nkoranyambaga, bashaka amafaranga y'indonke amafaranga atunga imiryango myinshi.

Umuco w'uduseke uba ari mwiza cyane, kuko kera batwifashishaga mu kuzindukira abantu, ariko n'ubugubu turakoreshwa, uduseke ni twiza cyane, dukoreshwa nk'imitako, kandi dukoreshwa nk'imitako, badukoresha mu bintu byinshi, nko ku mafarangaga u Rwanda, amwe namwe bayakoreshaho uduseke, nk'ibirango nyine nk'umuco gakondo mwiza, ni ukuwusigasira cyane.

Umuco wo gusangira urwagwa cyangwa inzoga mu muvure, wabaga ari mwiza cyane, ukurura ubucuti mu miryango yose, ukurura ubuvandimwe yewe uba ari mwiza cyane, kuko buri wese yisanzura ku wundi nta nkomyi.

Umuco gakondo wo gusangira uba ari mwiza cyane, cyane cyane nka buri wese afite umuheha we mukanwa. Imiheha iba iri mu ndobo cyangwa se mu kibindi, ugasanga abantu bari gusangirira hamwe biba ari byiza cyane, buri wese agataha yishimye kandi yahaze.

Umuco gakondo uba ari mwiza cyane nko kubyina, ususurutsa abantu abantu bakishima nk'iyo abantu bari mu barirori hakagerwaho umwanya wo kubyina imbyino gakondo biba ari byiza cyane kuko abantu babibyina babona amafaranga kandi bashimisha n'abantu, ikindi kandi binyinjiriza igihugu muri rusange.

Inzu z'ibyatsi cyangwa se inzu za gakondo za kera, ziba ari nziza cyane. Nkubungubu igihugu kirimo ahantu bubatse inzu za gakondo za kera z'ibyatsi zitubakishijwe amabati, biba ari byiza cyane, kuko zikurura ba mukerarugendo zikinjiza amadovize. Ndetse n'umuntu uzirimo yumva ari byiza cyane.

Umuco gakondo uba ari mwiza cyane abantu kera bakamiraga mu byansi, ibyansi babikamiramo cyane bibika amata neza, kandi ibyayantsi biba ari byiza cyane mbese biba ari byiza cyane kuko ntabwo bizwi cyane.

Umuco wo gukina urusoro uba ari mwiza cyane, kuko uhuza abantu iyo bananiwe urabaruhura, kandi ukurura n'ubucuti ku bantu bari gukina ku mpande zombi, barishimana bakamenyana, ibintu biba ari byiza cyane, ku bantu bahurira ahantu barimo gukina birashimisha.

Umuco wo gukora siporo ni mwiza cyane cyane wo gusimbuka, urukiramende tuzirika ibiti bibiri bamwe bagafata ku ruhande rw' iburyo, abandi bagafata uruhande rw' ibumoso ubundi abantu bagasimbuka neza urukiramende mbega rubari rwiza twarukoreshaga mu muco wo hambere turi gukora siporo, haba abagabo, haba n' abagore twakoreshaga urukiruramende ni rwiza mu gukora siporo.

Umuco wo guhinga uba ari mwiza cyane, kuko urebye mu gihugu hatabayeho amazuka ngo abantu bahinge, ntacyo kudutunga twabona, kuko ibitunga byose, nubwa biba byanyuze mu nganda biba byaturutse mu buhinzi, kandi bahingisha amasuka.

Abantu basarura umusaruro, kugira ngo umusaruro ube neza bakawugosora, umusaro mbese barawugoso kugira umwanda uve mu musaruro wose, noneho ugiye gucuruza umusaruro wawe mwiza wa wisaruriye ukawushungura uvanamo imyanda kugira ngo ugura wese yumve ko ari byiza gusaruro, rero ni byiza cyane kuko bituma umuntu iyo agurisha umusaruro usa neza barawukunda cyane kuwugura.

Imbyino gakondo cyangwa se imbyino taradisiyoneri iba ari nziza cyane. Isusurutsa abantu. Ikurura ba mukerarugendo, kandi yinjiriza ababikoze nk'umwuga. Binjiza amafaranga cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga.

Umuco gakondo wo kuragura, kera wabaga ari mwiza cyane, kuko watumaga abantu bamenya ikiri imbere, ibizaba imbere, byabaga ari byiza cyane, kuko abantu byarabashimishaga cyane, ntiho bakuraga imiti, umuntu yabaga arwaye akajya ku ba pfumu .

Umuco wo kuvuza ingoma ni mwiza, abakaraza biha mbese kuvuza ingoma, abakaraza bibaha amafaranga nyine iyo habaye nk'ubukwe, ibirori bajyayo bakitabira, barakoze nk'itsinda. Bakabonamo amafaranga, mbese birabagaburira. Buri murimo ukiza nyirawo.

Kera mu Rwanda bagiraga umuco wo kwambara impu, kwambara imikenyero ,abagabo n'abagore, mbese byabaga ari byiza cyane. Abantu bo mu mahanga barazaga mbese, bakareba umuco wa kinyarwanda bagasiga amadovize, yo kwinjiriza u Rwanda mbese muri make, mbese umuco mwiza ubu ngubu dukomeze tuwusigasire tugende tubereka abantu ,batwihere kuri ayo mafaranga.

Ingobyi ya gakondo za zindi babohaga mu bintu by'ibyatsi bya kera imigano n'ibindi byatsi babagamo nk'ibirago, babohagamo ingobyi, umurwayi yaba abonetse aho hafi, moto zitari zaza n'amamodoka bakamutwara mu ngobyi, mbese ingobyi iba ari nziza mucyaro hano iwacu, iba ari nziza cyane kuko umurwayi ntabwo arinda kurembera murugo.

Umuco wo kubyina imbyino za gakondo, uba ari mwiza cyane. Kuko ukurura ba mukerarugendo kandi ususurutsa abantu. Mbese kubyina gakondo biba ari byiza cyane, bituma umuntu yishima, bisusurutsa abantu. nk'abayobozi, abandi bantu basanzwe, Kandi bituma abantu babana mu mahoro. Bizana amahoro mu muryango.

Ingoma ni igikoresho cyiza, kuko zifashishwa mu bukwe, mu gususurutsa abantu, abazivuza ba abakaraza biba ari byiza cyane, kuko zisusurutsa abantu, ahantu hari ubukwe, ahantu bagize akarori runaka bakoresha ingoma kugira abantu bishime, kandi bigaragaze mu kirori batarakaye cyane, hari ibyishimo gusa.

Imbyino gakondo ziba ari nziza cyane kwambara ibintu by'imisatsi biba ari byiza, mbese abantu bari kubyina ukabona bafite ibintu by'amacumu njye birandyohera cyane, ewana iyo abantu bari kubibyina mbandikubona ari byiza cyane cyane cyane .

Umuco wo korora inka z'inyambo, uba ari mwiza cyane, inka z'inyambo zigaragara neza, kandi zigaragara hamwe, hakeya ku isi, kuko zikurura ba mukerarugendo, kandi zitanga n'amata yaryoshye cyane, cyane cyane mu rwanda kera barazororaga nk'umuco gakondo, hataraza inka z'ibyimanyi cyangwa iz inzungu.

Gusya ku rusyo rw'amabuye, biba ari byiza cyane, abantu bikoreshereza ingasire zabo bataguze, bishakiye, ni umuco gakondo, uba ari mwiza, kandi urahendutse, ntabwo bisaba amafaranga ngo ugiye gushesha cyangwa ngo ugiye kwanzikisha, kandi umutsima wo ku rubuye uraryoha cyane kandi biba bihendutse.

Uduseke ni twiza cyane, uduseke badukoresha m'ubukwe, uduseke badukoresha mu gutura mu nsengero, uduseke badukoresha mubyino gakondo ya kinyarwanda, uduseke mbese tuba aru twiza cyane uduseke badukoresha nk'umutako mu nzu, mbese uduseke tugira akamaro kenshi.

Umukino wo gusimbuka urukiramende uba ari mwiza cyane, kuko ugorora umubiri kandi abantu nk'abana urugero baba bari gusimbuka urukiramende, bituma bamenya kubana neza n'abandi baba bari gukinana, kandi bituma umubiri ugororoka neza n'amagufwa ugakomera.

Umuco gakondo wo kubyina imbyino taradisiyoneri cyangwa se imbyino Nyarwanda biba ari byiza cyane, bishimisha abantu nyine, bishimisha abantu kurusha imbyino za kizungu biba ari byiza cyane, kandi ababibyina babonamo amafaranga.

Umuco wo guhura abantu bagakora siporo uba ari mwiza cyane, bagira umuco wo gusimbuka nk'urukiramende, bakareba nyine abantu bazi gusimbuka cyane, byaba ari byiza cyane, byahuza abantu bigatuma buri wese amenya kuganira n'undi muntu, byatumaga ibiganiro biba byiza cyane ku bantu bose aho.

Isekuru iba ari nziza cyane, kuko isekuru abantu badafite ubushobozi bwo kugura ibyumba by'amashanyarazi basekurira mu isekuro, n'agasombe ko mu isekuru karyoha cyane kurusha ako mu nganda, kuko nta kibi kibaga kirimo kuko inganda cyangwa ibyo umubiri nyuma yo kuyikoresha.

Umuco wo kubyina aba ari mwiza cyane w'intore zirabyina zikagenda ziyere zirabyina zikongera zigakubita amacumu n'ingaruka bashyize amacumu ubwazo hejuru ibintu bikaba ari byiza bigakurura ba mukerarugendo kandi binjiriza n'abantu babikora cyane cyane.

Kwivugira inka biba ari byiza cyane, kwivugira inka kera bivugiraga inka bazambitse urugori cyangwa ingori, ababivugaga byabaga bambaye imikenyero, mbese biba ari byiza cyane, iyo bari kwivuga ku nka z'inyambo, biba ari byiza cyane, ubona nyine ibisobanutse, biba ari byiza pe.

Ibikoresho byo gucuranga nk'inanga biba ari byiza cyane, kuko bisurutsa abantu, kera byasurutsaga abantu, ibikoresho by'ikoranabuhanga bitaribyaza nk'amaradiyo atariyaza, nama televiziyo atariyaza, byabaga ari byiza cyane, nubu kubera batakibikoresha cyane iyo umuntu abikoresheje biba ari byiza cyane, bituma abantu bishima cyane kurusha uko bakwishima bari kumva radio cyangwa televiziyo.

Umuco gakondo wo gucana mu byungo wabaga ari mwiza cyane. Wabaga ari mwiza cyane kera amasafuriya atari yaza. Mbese wabaga ari mwiza. Ibintu byose byagendaga neza. Abantu babitekeragamo, bakarya neza, bakarya ibiryo bitekewe mu byungo. Byabaga biryoshye cyane, ari byiza cyane kuko ntawe byatera kanseri . Byabaga ari byiza cyane, ari iby'umwimerere.

Inzoga zo mu kibindi ziraryoha nk'urwagwa warushize mu kibindi biraryoha cyane, ukanywesha noneho umuseke. Ni ibintu bya gakondo turabikunda cyane kuko bituma inzoga ziryoha cyane. Mbese utumira abantu mukanywa, mugasangira mukanezerwa.

Umuco gakondo w'ububoshyi, kuboha ibirago, kuboha intara, kuboha ibyibo, bigaburira benshi nko mu cyaro biba ari byiza, mbese uboha ikirago ukagikoresha nk'umutako, mbese biba ari byiza cyane iyo ufite umwuga wo gukora w'ububoshyi, biba ari byiza cyane.

Umuco gakondo ni mwiza, kunywera mu kibindi mu ntango, twanyweraga mu ntango tukanywesha imiseke, cyangwa se imiheha, biba biryoshye! biryoshya umusururu, mbese ntabwo nabona ukuntu mbivuga, kuko umuco gakunda kunywesha umusururu, wo kunywa umusururu ukawunywera mu muheha biba ari byiza cyane.

Umuco wo kubyina imbyino gakondo uba ari mwiza cyane, kuko ababyinnyi baba bafite ingabo, amacumu, baba bambaye imisatsi. Ibi biba ari byiza cyane kuko bikurura ba mukerarugendo, kandi n'ababikora bibabyarira amafaranga, kuko haba harimo inyungu bari kwiyereka abantu babonamo amafaranga.

Akamaro k'ibisabo ibisabo biba ari byiza cyane babibikamo amata, babicundiramo amata kandi bikoreshwa nk'umuco gakondo, mbese bituma abantu basigasira umuco gakondo, bakamenya icyo babikoreshaga mbere kandi na n'ubu ngubu bikurura ba mukerarugendo, kandi na n'ubu ngubu abantu babikora bagira isoko, nyine bakabona amafaranga.

Uduseke tuba ari twiza cyane, kuko mu muco gakondo badukoreshaga mu kubyina, mu mitako, twinjiza amafaranga, ukuntu batuboha baratugurisha bakabona amafaranga, bakabonamo ibintu bakeneye byose, byose biba ari byiza cyane.

Umucyo gakondo wo kubyina ugasusurutsa abantu ngo uba ari mwiza cyane, kuko na wo ikurura ubucuti ku bantu bari kubyina, kandi bituma n'abantu bumvikana bituma abantu buri wese amenya uko undi abayeho, maze bigatuma ufite imico mibi ihinduka nyine, kubera baba baganiriye cyane bumvikanye bumvikana nyine, gukora ibintu bigenda neza mu miryango imwe n'imwe.

Umuco wo kubyina imbyino gakondo urashimisha, kuko uri kubyina umuco gakondo abantu bose barishima, kandi bikabanezeza cyane, cyane cyane iyo ari nko mu birori, ibintu biba byaryoshye, bikabije pe!

Imitiba ni myiza cyane, imitiba cyangwa imizinga habamo ubuki tukaburya mbese iyo wariye ubuki ubuzima bwawe bumera neza bukamera neza cyane, n'umwana wariye ubuki igihe cyose aba yishimye mbese ibiryoherere biba byamwuzuye mu mubiri, mu mubiri mbese yishimye cyane pe!

Amasuka afite akamaro kenshi arahinga. Ahinga ubwoko bw'ibihingwa bwinshi. Ibigori, ibishyimbo, ibijumba, ibirayi. Byose bihora byeze, isuka na yo iba ibifitemo akamaro kuko ni yo ibihinga. No kubibagara bakoresha amasuka. Isuka iba ifite akamaro kenshi.

Umuco gakondo wo gucuranga umuduri uba ari mwiza cyane, kuko ubungubu hagezweho ibikoresho by'imiziki byo gukoresha ikoranabuhanga n'amashanyarazi, ariko ibikoresho by'imiziki gakondo nk'imiduri biba ari byiza cyane, bisusurutsa abantu, bituma abantu bose bishima cyane, kuko abantu nta bwo baba babizi, iyo abibonye arishima cyane kurusha uko yakumva radiyo.

Umuhoro wa kinyarwanda ni umuhoro utema neza, umuhoro wa kinyarwanda mbese iyo wawukoresheje, mbese utema cyane agatema neza, iyi mihoro ya kizungu bakunda kwita imipanga, babyitaga imipanga ntabwo ikigezweho, igezweho ariko kera twakoreshaga iyi mihoro ya gakondo bitaga imipanga.

Isekuru ni nziza, usekuriramo isombe, agasombe buriya ni keza, iyo wariye ku gasombe, ibyishimo biba byabaye byinshi. Mbese isekuru utiriwe ujyana ku mashini y'umuriro, ugasekurira mu isekuru, agasombe karyoha neza, kurusha mbese biriya bya kizungu.

Umuco gakondo wo kubyina bakenyeye imikenyero bikoreye n'uduseke, biba ari byiza cyane kuko bikurura ba mukerarugendo, kandi iyo mubikora nka korari, n'ubundi bibaha amafaranga kuko nk'iyo mwagiye kubyinira nk'abantu mu bukwe, mubonamo amafaranga atubutse bikabatunga, kandi bikabatungira n'imiryango yanyu.

Kera habagaho umuco wo guteka mudukono, m'utwungo, cyangwa se ibibindi, ugasanga bajyaga kuvoma bavomesheje ibibindi, amajerekani atariyaza, nanubu ngubu ariko ibibindi biracyakoreshwa cyane, kuko hari abantu nk'abakecuru bakibitekamo, babyita utwungo cyangwa bakabyita mudukono.

Umuco gakondo kera wabaga ari mwiza cyane, abantu bakoraga ibintu bitari ibya kizungu. Ibya kinyarwanda bita iby'amajyambere mbese byariri iby'amajyambere ya kera nko kuboha ibyibo. Kuboha byabaga ari byiza cyane abantu bose barabikundaga kandi ubu ngubu kubikoresha ni byiza cyane mbese ntamuntu utabikoresha.

Umuco wo kwengera mu muvure uba ari mwiza cyane, kuko bituma iyo ufite nk'ibitoki urenga bitakugoye cyane, nta byo kujya kwengesha ahandi mu byuma by' ikoranabuhanga, nyine bituma ibintu bikorohera, nk'iyo wishakira urwagwa uhita wenga kuko birahendutse cyane, ntago bisaba ibintu birenze.

Umuco gakondo ni mwiza, umuco gakondo ususurutsa abantu, ababyinnyi baba bafite ingabo, baba bafite amacumu, baba bafite ingara, mbese umuco gakondo ni mwiza ususurutsa abantu, nk'ababavuye mu mijyi abavuye mu mahanga biba byabashimishije cyane mbese.

Ibicuma biba ari byiza cyane. Ibicuma babikoreshaga mu bikoresho gakondo, banyweramo umusururu biba ari byiza cyane, kandi iyo wanywereye mu gicuma inzoga iryoha cyane kurusha uko wanywera mu gikombe, ibicuma biba ari byiza cyane, kandi ni ibikoresho gakondo byiza cyane.

Ibirago ni byiza cyane, kuko byifashishwa mu kuryama, iyo abantu baryamye nta matora bafite, baryama kubirago, barabyitwikira, babyicaraho iyo nta ntebe zihari, kandi no mu nsengero zimwe na zimwe baracyakoresha nko mu bayisilamu bakunda gukoresha ibirago, bakoresha ibirago cyane kandi no mu kiliziya kur'alitari babyifashisha nk'umutako.

Ubworozi bw'amatungo buba ari bwiza cyane, cyane cyane inka, iyo wazororeye ahantu nyine hatari mu ikiraro, zitanga umukamo kuko ntabwo zikunda guhura n'indwara, kuko ibyatsi zigezeho byose zirabirya zikabyibuha, kandi ibyo byatsi n'ubundi bizifasha nk'imiti, kuko inka zororewe mu biraro.

Ibiti by'imivumu kera barabiteraga cyane. Nibyo biti bakundaga guhinga cyane kuko babyifashisha mu muco nyarwanda. Bakabyifashisha nko guterekera n'ibindi byinshi cyane udapfa kumenya.

Amatara aba ari meza cyane kuko aradukongereza, atumurikira mu gihe cy'umwijima. Aratumurikira nyine abantu ntibagende bagwagwana bagwanaho. Atanga n'umutekano kuko atuma abajura bataza kukwiba mu gihe cy'umwijima.

Ibikoresho by'amashanyarazi biba ari byiza cyane, nkamuritipurize iba ari nziza cyane, kuko uyi comekaho ama telefoni menshi, ushobora gucomekaho telefoni, bacumbikaho kompiyuta, bacumbikaho amaradiyo, bacomekaho n'ibindi bintu byinshi, mbese miritipurizi iba ari nziza cyane, bayikoresha nta by'ibintu byo gutinda.

Amashanyarazi ni meza, adufitiye akamaro hano, cyane cyane hano iwacu mucyaro atari yahagera ubuzima bwabaga bugoye, wajyaga gucayinga telefone yawe ku masantere, ibintu byabaga bigoye ariko aho amashanyarazi yaziye ubuzima bumaze kuba bwiza cyane.

Amashanyarazi ni meza, kuko niyo atuma ibikoresho by'itumanaho nka mudasobwa zikoreshwa n'amashanyarazi, telefone zikoreshwa n'amashanyarazi, mbese muri make amashanyarazi aba ari meza kuko urabona no mu nzu aracana, amashanyarazi akoreshwa acaginga moteri.

Kuteri zo mu matwi ziba ari nziza cyane, noneho izi zitagira ibigozi cyangwa se ibitsinga, biba bimanuye, izi bacajyiga, bakazishyira ku muriro, biba ari byiza cyane kuko zituma ntabwo ziguteganya kuko ntabwo ziba zifite ibigozi, mbese ziba nziza cyane kurusha iz'imigozi cyangwa insinga.

Amashanyarazi ni meza cyane atuma abaturage babona mu gihe cy'ijoro , amashanyarazi acaginga amatelefoni, amashanyarazi amashanyarazi atuma ibintu mbese byose bigenda neza ,ahantu hari amashanyarazi nta kintu kitagenda neza.

Ibikoresha bikoresha amashanyarazi biba ari byiza cyane, cyane cyane nka moteri iyo umuriro washize urayikoresha ubundi ukabasha gucana amatara, iyo umuriro washize ugakoresha moteri, hari n'ibindi bikorwa wakoresha, mbese ikoreshwa nk'amashanyarazi iyo umuriro wagiye.

Umurimo w'ubwubatsi cyangwa se umwuga w'ubwubatsi uba ari mwiza cyane, kuko bituma nyine abaturage babona aho kuba kubera ubwubatsi nyine babyize bakubaka nk'ibikorwa bya leta, amasitade cyangwa n'ibindi bikorwa leta iba iri kubyuyungukiramo, kandi abubatse muri rusange baga.

Mbega insengero zaratwegereye, amavuriro atuba hafi amasoko atuba hafi mbese Leta yatwegereje ibikorwa byayo remezo, ikintu cyose dushaka tukibonera hafi mbese, ibintu bya Leta biba ari byiza mbese ibintu byose byatugezeho ni hafi mbese.

Insengero ziba ari nziza, iyo umuntu agiye gusenga nko ku nsengero runaka, avayo afite agakiza avayo ibyishimo ari byinshi, bitewe n'ukuntu yaganiriye n'Imana ye, mbese muri make insengero ni nziza cyane, kuko umuntu iyo yagiye gusenga, yumva afite umutuzo n'umutekano mu mutima we.

Amatafari ni meza cyane kuko bayifashisha mu kubaka amashuri, mu kubaka insengero, amatafari bayifashisha kubaka ibyikoni cyangwa ibikoni. Amatafari bayifashisha mu kubaka amahoteri ndetse n'ibindi byinshi cyane bifitiye igihugu akamaro.

Ubwubatsi bw' amazu meza, bw' amazu asa biba ari byiza cyane zifite amarangi meza, zifite amarangi asa. Inyubako zimeze kimwe ziba nziza cyane kuko zituma umujyi usa neza cyane, cyangwa ahantu hasa neza nk' amashuri ya leta iyo afite amarangi, ateye amarangi asa, hari ibintu byose bisa, bituma nyine hagaragara neza cyane.

Kiriziya ziba ari nziza cyane, cyangwa izindi nsengero, ni nziza cyane iyo zubatswe neza zifite noneho n'amajaride, cyangwa ahantu ho kwicara hagacaca hari n'indabo biba ari byiza cyane, kuko bituma abantu baruhuka, iyo bavuye gusenga hari aho kuganirira nk'agacaca, bituma abantu bamererwa neza, kandi kiriziya akamaro kazo zituma abantu bataba abanyabyaha.

inyubako za Leta ziba ari nziza, nk'amashuri, imirenge, ubugari, biba ari byiza cyane, kuko bituma abantu bahabonera serivisi nyinshi cyane zitandukanye. Nko ku murenge haba hari n'abaturage bashaka kuhashakira serivisi cyane nkiz'ubutaka izo gushaka ibyemezo bimwe na bimwe.

Inyubako za leta nini cyane cyane iz'ama etaje ziba ari nziza cyane kuko zituma ubutaka bukoreshwa mu buhinzi aho kugira ngo bwubakwemo cyane n'amazu manini amazu menshi inyubako zige ikiranye cyangwa amataje aba ari meza cyane .

Kuryama kuri matora biba ari byiza cyane, kuko bituma uyiryamyeho asinzira neza cyane, bigatuma nyine akura neza cyangwa ubuzima bwe bugenda neza cyane, akura abyifuza kuko uryamye heza akura neza.

Insengero ni nziza cyane, iyo twagiye gusengera mu nsengero ibintu biba ari byiza cyane. Twihuza n'Imana imana ikumva ibyifuzo byacu, maze ibintu byose bikagenda neza cyane, nk'uko tubyifuza cyane.

Ibiraro biba ari byiza cyane, kuko nk'iyo ahantu ari hagari wenda hari nk'umugezi aho umugezi unyura, kuhambuka biba bigoye cyane, nyine iyo ahantu hari ikiraro biba ari byiza cyane, nyine abantu biborohereza urugendo, nyine mbese bituma abantu bambuka, kuko ikiraro kidahari abantu ntabwo......

Amashuri yubatse neza, atuma abana batanyagirwa, abigamo bose nta bwo banyagirwa. Mbese ibintu biba ari byiza cyane, aba ateye sima, arimo ibirahuri, hari ahantu h'abanyeshuri ho kunyura, hariho amajaride meza. Bituma abana bumva nyine ko bari ahantu heza, bityo bigatuma biga neza bakanatsinda neza.

Kiliziya cyangwa insengero , ziba ari nziza cyane, kuko zituma abaturage cyangwa abakirisitu, badakora ibyaha bakabana neza mu mahoro kandi zituma n'abana muri rusange, bakura bafite umuco mwiza, wo kujya gusenga, ibintu bikagenda neza, ari umutekano gusa.

Insengero ziba ari nziza cyane, zituma abantu b'abakirisitu, insengero zituma abantu badashwana cyane, niyo bashwanye bashaka kujya kwihanira mu nsengero, bigatuma nyine bakomeza kubaho neza kubana neza, niba washwanye n'umuntu ukajya gusengera mu rusengero nyine umutekano uragaruka.

Inyubako z'ibiraro ziba ari nziza cyane, nk'ahantu hari ibicukumo cyangwa se imiferege n'imigenda ku hanyura biba bikomeye cyane biba bigoye cyane, ariko iyo hari ibiraro byambukiranyijejwe umuferege cyangwa umugenda abantu kuhanyura wambuka cyangwa se kuhanyura biba ari byiza cyane ntabwo bagora mu rugendo.

Ingomero z'amashanyarazi ziba ari ni nziza cyane. kuko zituma abaturage babona amashanyarazi ahagije, biba ari byiza cyane, kuko ubu ngubu amashanyarazi agezweho cyane kuba ahantu hatari amashanyarazi byakugora, kuko ntabwo wabona nijoro nta mashanyarazi ahari, amashanyarazi afite akamaro kenshi cyane, kandi bigakorwa mu bukerarugendo, kandi akinjiza n'amafaranga ku gihugu.

Umurimo w'ubwarimu uba uri mwiza cyane, cyane cyane bambaye noneho iniforume, cyangwa se impuzankano bita amataburiya. Biba ari byiza cyane kuko bibarinda umwanda w'ingwa, cyangwa ibindi bintu byose, kandi bituma abantu bose bamenya ngo uyu nguyu akora iki. Biba ari byiza cyane bambaye amataburiya.

Ubwubatsi ni bwiza cyane kuko inzu zose tubamo tugamo zose ni abubatsi baba barazikoze. Ubwubatsi mbese muri make ni bwiza cyane, buha amafaranga abantu bubaka kandi n'abafundi n'abayedi bose bubaha amafaranga.

Indabo cyangwa se ibiti bibaga ari byiza cyane nko ku nyubako ndende, kuko bitanga ogisigeni. Bitanga amahumbezi, bitaga umuyaga, imyuka mibi bakundaga kwitanga gazi karubonike, cyangwa se nk'iba yaturutse imidarutse imyuka yaturutse mu nganda, mu bimoteri. Ibyo biti bifasha nyine kugabanya uyu umwuka mubi bira kugabanya.

Amashuri ageretse aba ari meza cyane, n'abana iyo bari kwigira mu mashuri ageretse ya etaje, baba bishimye cyane kuko ashimisha n'abana bituma bajya ku ishuri kandi amashuri ageretse aba ari meza cyane nta n'umuntu utayigiramo.

Insengero ziba ari nziza cyane zidufitiye akamaro, iyo tugiye mu nsengero bituma nyine twigororana n'Imana, twigororana n'Imana ibintu bigacamo bikagenda neza cyane, kuko iyo twasenze imigisha ituzaho cyane.

Inyubako za leta ziba ari nziza cyane, kuko ziba ziriho amayetaje aba ari meza cyane, nabayakoreramo birabashimisha kuko nyine iyo umuntu ari gukorera ahantu heza, na we agubwa neza nyine igihe cyose, amayetaje aba ari meza ari ahantu heza, ahantu haba hari indabyo zitanga amahumbezi, mbese biba ari byiza cyane gukorera ahantu heza cyane.

Amashuri ya Leta , insengero byaratwegereye nk'abaturage bo mu cyaro mbese ubu ngubu ntabwo tugikora urugendo ngo tugiye mu masoko ya kure cyane. Dukoresha amasoko y'ahano hafi iwacu, insengero hano iwacu zirahaba nyinshi mbese ibikorwa byose byaratwegereye mbese insengero nziza, gusengera hafi biba ari byiza cyane kurusha uko wajya kure.

bikorwa remezo nk' amashanyarazi biba ari byiza cyane amashanyarazi yageze ku abaturage ibintu bya bigendaga neza cyane baracanaga mu rugo bakabona amatelefoni bonamashiniga bakayacaginga bikaba ari byiza kandi bituma akorana n'izindi serivisi nyinshi ziturutse ku ngufu z'amashanyarazi , amashanyarazi akagaragara ari meza cyane kandi akoresha ba mukerarugendo igatuma mbese haimirimo yoroye yose ikoroha cyane.

Kiliziya iba ari nziza, kiliziya ituma abantu baje gusenga bakajya kwihana, kiziya ituma na none abantu batekana, mu mitima yabo, nk'iyo wagiye gusenga mu kiliziya, umutima wawe uba utuje wumva ko nyine ibyaha wabikijijwe kandi umerewe neza cyane.

Imashini zikora umuhanda, zihinga cyane cyane bakunda kwita ibitorotoro, zigira akamaro mbese haba kuri Leta, Leta igiye kubaka nk'imihanda, y'ubaka imihanda byorohera Leta, ibyo bitorotoro cyangwa imashini zihinga, abaturage iyo bagiye guhinga, ntabwo bijya bibagora mbesi zorosha akazi muri rusange.

Inyubako za leta ziba ari nziza cyane, cyane cyane nk'iyo bubatse amayetaje aba ari meza cyane, nk'amashuri yo muri iniverisite usanga yubatse ari amashuri y'amayetaje, mbese aba ari meza cyane akurura ba mukerarugendo, kandi n'abanyeshuri bagiye kuhiga cyane biba ari byiza cyane, n'amasoko ya etaje aba ari meza.

Inzu zigerekeranye bakunda kwita ama etaje; etaje ziba ari nziza cyane kuko zituma ubutaka budakoreshwa cyane mbese zuza amazu ku butaka ari menshi ahubwo ziragerekerana cyane ubundi abantu( abaturage) bakabona aho guhinga imyaka yabo nk' ibijumba ubundi bakarya bagahaga.

Inzu zigerekeranyije twita etaje ziba ari nziza cyane kandi iyo zubatse zirimo n'ibirahuri biba ari byiza cyane kuko aho zigaragara byiza cyane kandi bakoreramo kubera hasukuye bumva ari byiza cyane.

Mu Rwanda, twese tugiraga uburenganzira bwiza bwo gukora ibintu byiza. Tugira uburenganzira bwo kwiga. Mu Rwanda tugira uburenganzira bwo kujya gusenga, Mu Rwanda tugira uburenganzira bwo kujya gucuruza mu masoko hose. Mbese uburenganzira twese turabugira.

Uburenganzira bwa muntu buba ari bwiza cyane, butuma buri muturage wese aho ari hose yumva ko afite agaciro, kandi bituma n'abayobozi bisanzura ku baturage, bakamenya icyo abaturage bakeneye, n'abaturage bamenya ukuntu abayobozi babakunda, bigatuma ibintu byose bigenda neza mu mucyo, buri wese azanye n'undi cyane icyo yifuza.

Abantu bagira uburenganzira bungana, iyo haje gusura abayobozi abantu bo mu cyaro, biba ari byiza cyane iyo buri wese avuga amarangamutima amuri ku mutima ubundi ibintu bigakemuka neza.

Abantu bagira uburenganzira nyine bwo guhura bakaganira kandi n'abantu bahuriye yo kuganira ku bintu. Ibintu biba byabaye byiza, buri wese akagaragaza amarangamutima ye. Nyine buri wese aba afite uburenganzira bwo kuvuga ikifuzo ke cyangwa ikibazo ke, maze ibintu bikarushaho kugenda...

Kubahwa ku ikiremwa, kubahwa ku ikiremwamuntu biba ari byiza cyane, ubu ngubu kubahana kw'abantu, ahantu hose buri muntu wese aba afite uburenganzira bwe, buri wese afite uburenganzira bwo kujya kwiga, buri wese afite uburenganzira bwo kumukemurira ikibazo, mbese uburenganzira umuntu kugira uburenganzira k'umuntu buri wese ahari biba ari byiza cyane, bituma buri wese yumva ko ari mu gihugu kandi bikanamushimisha.

Buri munyarwanda wese cyangwa undi umwenegihugu wese, ikindi gihugu iyo afite uburenganzira bw'ikintu cyose, biba ari byiza. Iyo umuntu afite uburenganzira bwo kujya gusenga, uburenganzira bwo kwiga, uburenganzira bwo gukora ikintu cyose muri rusange. Icyo gihugu kiba ari cyiza, mbese muri make navuga ku muntu wese biba ari byiza cyane.

Umurimo w'ubumotari uba ari mwiza cyane. Nk'iyo leta yakoze imihanda cyangwa abaturage bakoze imihanda ubutwazi bw'amamoto buba ari bwiza cyane kuko butuma abantu babona amafaranga kandi abatwara moto kandi n'abagenzi bituma ingendo zabo zihuta cyane.

Bariyeri cyangwa se ibintu bikoreshwa nyine mu gutuma abantu batanyuraho cyangwa ibinyabiziga, biba ari byiza cyane kuko bituma hataba akavuyo. Ahantu hari bariyeri, umuntu arategereza bakabanza bamuha uburenganzira bwo kwinjira ahantu. Bigabanya nyine akavuyo, kandi bituma umutekano uba mwinshi ahantu hari bariyeri.

Ibinyabiziga bibaga ari byiza cyane, iimodoka hari amamoto, hari amagare byose biba ari byiza cyane kuko byorohereza abagenzi kugenda, bigafasha n'abashoferi babitwarara bikaba byabahereza inyungu, nyine bakabona amafaranga menshi yo kwifashisha mu buzima busanzwe bwa buri munsi, burya ibinyabiziga ari byiza cyane.

Abanyonzi bakorera amafaranga, kuko ubunyonzi buba burimo amafaranga bitunga abantu benshi bafite amagare, kandi byorosha ingendo iyo ufite umuzigo kuwutwara ntabwo bigora cyane nk' ukuntu imodoka bigora mbese biba ari byiza cyane kuko bitunze abayatwara.

Gare ziba ari nziza cyane, kuko abagenzi benshi baba bashaka kujya mu bice bitandukanye, biba ari byiza cyane, ahantu haba hari imodoka nyinshi hahuriwe n'abantu benshi, numva ari byiza cyane, nyine nko muri gare cyangwa se kuri arete, ahantu bategera mumodoka, biba ari byiza cyane kuko buriwese aho agiye hose ntabwo apfa kubura imodoka.

Akazi k'ubumotari kaba ari keza cyane, kuko abamotari bihutisha abagenzi kurusha imodoka. Kandi icyiza cy'abamotari, cya moto, nta bwo itinda itegereje abagenzi, kandi umuntu agenda ameze atuje nta muntu uri kumubyiga. Mbese...

Amagare aba ari meza cyane. Amagare aba ari ibinyabiziga byoroshya urugendo kurusha amaguru, kandi arahenduka kurusha amamoto n'imodoka byose. Kandi nykline no kuyagura aba ahendutse nyine ntabwo agura menshi ugereranyije n' imodoka.

Kunyonga amagare abantu bose birababera habakobwa n'abahungu birabera nta numwe bitabera kuko ni byiza cyane, niyo umuntu ari kunyonga igare aba ari gukora na siporo cyane.

Ubutwazi bw'imodoka buba ari bwiza cyane kuko byorohereza abantu mu rugendo biba ari byiza cyane, cyane cyane nko gutwara tagisi cyangwa zino modoka nini za ritiko biba ari byiza cyane, kuko byorosha serivisi z'abantu zose z'abantu bakenera bira zorusha.

Igikorwa cy'ubuyonzi kiba ari cyiza cyane, kuko iyo umuntu ari umunyonzi ntabwo abura amafaranga yo kwifashi mu buzima busanzwe, kuko bizana amafaranga n'igihugu kikabona ku mafaranga wanyuze mu misoro, muri rusange ubunyonzi n'igikorwa cyiza cyane n kuko kinjiza amafaranga ku gihugu no ku muntu ku giti cye.

Ubutwazi bw'ibinyabiziga buba bwiza cyane, bworoshya ingendo buba ari bwiza cyane kandi bworoshya ibintu. Mbese muri rusange, abantu ntabwo bagorwa nka mbere, kubera ubwikorezi bwo mu modoka bwabaye bwinshi, nk'iyo umuntu afite umuzigo biba ari byiza cyane biramworohera.

Kera twakorega urugendo mu modoka, cyangwa se ku magari. None ubu, indege za kinyarwanda zaraje. Mbese iyo ufite amafaranga wenda ugiye nk'i Kigali utega indege ikakugezayo vuba vuba nta bintu byo gutinda. Muri maketugenda mu ndege nk'yo tugiye mu mahanga. indege ni nziza cyane cyane.

Kaburimbo iba ari nziza, iba mbese isobanutse, abantu bifitiye ikinyabiziga cye nk'imodokari, biba ari byiza ku mihahanda ya kaburimbo, ntabintu byo gutinda mbese muri make, mbese imihanda yacu ya kaburimbo iba ari myiza cyane cyane mbese.

Indege ziba ari nziza cyane zoroshya urugendo nk'umuntu ugiye mu bushinwa agatetega imodoka biramugora ariko yatega umunsi umwe yaba agezeyo indege zihutisha urugendo kuko birusha moto , imodoka.

Ikiza k'imihanda, imihanda iba myiza cyane kandi bituma n'ingendo zoroha ku modoka. Ubwikorezi hari imodoka zikorera ibicuruzwa, zikore nka peterori, zikore n'ibindi bintu bisanzwe, nyine kubera imihanda ubwikorezi buba ari byiza cyane kandi buroroha cyane.

Abamotari bakora akazi katoroshye, kuko batwara abagenzi bakavana mu gace kamwe bakabajyana mu kandi gace, mbega abamotari bishyura n'umusoro kuri Leta ukagira akamaro ku kubaka imihanda, abamotari akazi kabo karabatunze.

Abamotari baba ari beza cyane, boroshya ingendo, bihutisha ingendo mbese abaturage batega abamotari, bibafasha kugenda neza iyo bagiye nta gutinda mu mayira, ibyo bagiye gushaka byose babibonera ku gihe.

Imihanda ya gariyamoshi yaje hano mu cyaro, imihanda ya gariyamoshi ni myiza, imihanda ya kaburimbo turayikoresha neza ingendo zacu zikagenda zihuta cyane, mbese ibintu byose biroroshye, byaroroshye cyane ntabwo bikiri nka mbere, ibintu byose ni byiza cyane muriki gihe pe!

Abanyonzi bajya bafata ku modoka, bagafata ku modoka inyuma bagafataho, imodoka kugira ngo zibatware zibihutisha zibageze iyo bagiye vuba vuba, ntabwo ari byiza cyane, nakuko bakunda gutera impanuka, kuko umunyamodoka iyo afashe feri igare akenshi rigira impanuka nyinshi cyane.

Ubwikorezi bw'imodoka buba ari bwiza cyane kuko nk'iyo yatwaye ibicuruzwa mu modoka birihuta cyane bikagera kubo ari kubyoherere bitagoranye cyane, umuntu ushaka kujya ahantu ha kure cyane agakoresha n'ubundi imodoka biba ari byiza cyane kurusha uko yagenda n'amaguru.

Ambulance ni nziza cyane kuko zitwara abarwayi zikihuta kurusha izindi modoka zose. Niyo mpamvu ambulance itwara abarwaye ikabihutisha cyane bigatuma nyine umurwayi adapfira mu nzira kuko nyine cyane...

Ubwikorezi bwo mu muhanda buba ari bwiza cyane, nka za gariyamoshi zitwara abantu benshi kurusha andi mamodoka yose, za gariyamoshi zinjiza amafaranga kurusha izindi modoka zose. Gariyamoshi kandi ni nziza cyane mbese igera ahantu kure yambukiranya imipaka.

Siporo ibaga ari nziza cyane, haba ku bakobwa cyangwa k'ubahungu, abagore cyangwa abagabo, abasaza cyangwa abakecuru, siporo iba ri nziza cyane, noneho hana mumikino wa vore boro uba ari mwiza cyane, kuko utuma umuntu ananuka, kandi nk'ikipe ibona amafaranga yo gukoresha mu buzima busanzwe.

Siporo iba ari nziza cyane, siporo igorora amagufwa bituma umubiri umererwa neza, ikurinda uburwayi bwa hato na hato mbega iyo ukoze siporo cyane kandi ukayikora neza , umubiri wawe uba utunganye hari na siporo ikorwa nk'umwuga ku bayikina.

Siporo ziba ari nziza cyane, ni nziza cyane, cyane cyane nk'umukino w'amaboko, uba ari mwiza cyane, haba ku bakobwa nabo basigaye barakina imikino, bituma abantu bitinyuka siporo, siporo kandi zigorora umubiri, zigorora amagufwa n'ubucuti n'ubuvandimwe mu bantu.

Siporo iba nziza cyane, cyane cyane umukino wa basiketi, uraryoha, urashimisha, noneho iyo uri guterera mu ipaniye, iyo kinjiye mu ipaniye igitego, biba byiza cyane, uraserebura nyine n'abafana bawe birabashimisha, kandi nk'umuntu uhugukira umukino wa basiketi, umwinjiriza amafaranga nk'umuntu wabigize umwuga pe.

Umukino wa voreboro uba ari umukino mwiza cyane. Ni umukino bakinisha amaboko, kandi uba ari mwiza cyane haba ku bakobwa, haba ku bahungu. Bose urababera, nta n'umwe, umuntu wese uwukinnye aragororoka, kandi abantu bawukina birabahuza. Kuba utaziranye n'umuntu mugahurira mu ikipe, muhita muba inshuti mukamenyana. Nyine siporo muri make irema ubucuti mu bantu.

Siporo ziba ari nziza cyane zituma abantu bishima nk'abafana baje kureba umupira baba bishimye cyane buri wese n'amakipe aba ari gufana arabyishimira cyane arikubona abantu bari gukina cyane kandi bituma byinjiriza n'igihugu kandi bituma umuntu yumva ko hari icyo ashoboye nk'abakinnyi b'umupira birabatunga.

Umupira w'amaguru uba ari mwiza cyane, noneho gucenga hari abamenya gucenga ugasanga umuntu ari gucenga abantu benshi, bityo iyo acenze abantu benshi amakipe aramukunda cyane, ugasanga bimuviriyemo ingaruka nziza zo kubona amafaranga, kubera amakipe rwose aba amushaka nk'umukinnyi mwiza.

Siporo ni nziza cyane, haba ku bakobwa, haba ku bahungu, haba ku badamu, abagore cyangwa se abagabo. Siporo mbega iki gihe ni nziza cyane iyo wakoze siporo ibintu byose bigenda neza, siporo muri make nashishikariza abantu bose gukora siporo kuko siporo iba nziza ku mubiri.

Umukino wa basiketi uba ari umukino usaba imbaraga ariko abantu bawukina baba bameze neza, baba bafite ubuzima bwiza bituma umuntu amenya kwirukanka cyane, bituma umuntu amenya gusimbuka, kandi n'imikino yashimisha abantu nk'abaje kuyireba muri sitade bishimye bitewe n'amakipe bafana, kandi bituma abantu babona umwanya wo kuganira.

Siporo idufitiye akamaro hano mu cyaro, siporo ifitiye akamaro abantu baba mu mijyi, siporo ifitiye akamaro abantu mbese baturuka imihanda yose, baba baturutse mu cyaro, baba baturutse mu mijyi hose biba ari byiza, siporosi nta muntu idafitiye akamaro muri rusange. Twese turayikunda cyane.

Umukino wa basiketi uba ari mwiza cyane, kuko utuma abantu bamenya kwiruka cyane, kandi bituma bamenya gusimbuka cyane nyine. Muri make utuma abantu bakomera imibiri yabo kandi bakamera neza, amagufwa akagororoka.

Amakurusi y'amagare aba ari meza cyane, kuko bituma abantu bishima cyane, kandi amakurusi y'amagare abantu babikora nk'umwuga babonamo amafaranga. Amakurusi y'amagare, iyo uri gukora amakurusi , abatwara amagare baba bari gukora siporo. Kandi bituma abantu nyine n'igihugu gitera imbere, kuko abantu baba baje kuyareba batanga amafaranga, wenda nk'ahantu bari kuyarebera, kandi bishimisha n'abantu muri rusange.

Siporo ni nziza cyane igorora umubiri , noneho cyane cyane ku bagore badakoraga siporo bagira ubyibuho ukabije , ubyiho ukabije ntabwo ari byiza yari yakoze siporo biba ari byiza cyane kandi no ku bagore bigatuma nabo bagabanya ibinure ubuzima bwabo bukagenda neza, ugakora neza.

Siporo ni nziza cyane, nka siporo iri gukorerwa ahantu hamwe, abantu benshi bari kuyikorera hamwe, biba ari byiza cyane, kandi ituma abantu bamenyana, igorora umubiri amagufa agakomera, mbese siporo iba ari nziza cyane, ituma nyine n'umuntu wayikoze yumva ameze neza, igabanya n'imyanda mu mubiri binyuze mu byuya.

Siporo yo kwirukanka iba ari nziza cyane kuko urebye, siporo yo kwirukanka iba ari nziza cyane kurusha izindi, siporo yo kwirukanka ibice by'umubiri byose biba biri gukorera rimwe, nta n'igice cy'umuburi kiba kitari gukora Kandi ituma nyine n'ubundi ibyuya, bisohoka bikava mu mubiri nk'imyanda ubundi umubiri ugatungana neza, ugasigara usa neza cyane.

Siporo ni nziza cyane haba ku bahungu, ku bakobwa no ku bahungu hose hose siporo iba ari nziza cyane kuko abakobwa bagorora amagufa, bigatuma bagabanya umubyibuho cyane kandi n'abahungu bakora siporo bakagorora amagufa, na bo bigatuma nyine imbere yabo igenda neza cyane, ukuntu babyifuza nyine nk'abantu bameze neza cyane .

Gukora siporo ni byiza, binanura amagufwa, mbese umubiri wose wumva watunganye, watekanye iyo wakoze siporo, mbese njyewe iyo nakoze siporo, ibintu byose biba byabaye byiza cyane, mbese ubu ngubu nsigaye ndashishikariza umuntu wese gukora siporo, kuko siporo ituma tugororoka.

Siporo ni nziza cyane cyane nka siporo zo kumasha cyangwa se guterura ibintu biremereye cyane, nko kurasa, kera abakoreshaga imyambi barasa byabaga ari siporo kugorora amaboko, mbese gutera ikintu kure biba ari byiza cyane bituma amaboko nyine uba ukomera cyane cyane.

Ikipe y'umupira w'amaguru iba ari nziza cyane, ituma abantu bahura, ituma abantu buvana ibyuyumviro by'umuntu buri wese akumva ibyiyumviro by'undi muntu aba afite, mbese bituma abantu bamenyana n'ubundi, bigatuma nyine ubucuti buba bwinshi ku bantu bose.

Amakurusi y'amagare aba ari meza cyane. Yongera ubucuti na yo, akurura abantu. Azana ubucuti nyine kandi n'abakurusi rero, uyakora aba ari muri siporo. Eeee, na yo aba ari meza cyane . Agorora umubiri kandi azana umubano ... Ibyo kurya n'ibyo kunywa.

Umuco wo gukina ni mwiza, siporo ni nziza ni ingororamubiri mu cyaro hano dukoresha dukoresha tuno tuntu tumeze nk'udusupanete niba bazita kiriketi simbizi, gusa uyu mukino ntabwo ukunzwe cyane ariko ni n'umusirimu ariko nyine hano mu cyaro ntabwo abantu baba bawuzi neza, ni yo mpamvu hano mu cyaro badakunda ku....

Siporo iba ari nziza cyane ituma umubiri unanuka, ihuza abantu bakishima bakaganira, siporo iba ari nziza cyane n'iyo umuntu ari kubireba arishima, mbega siporo ni nziza cyane.

Umukino wa voreboro uba ari mwiza cyane kuko abantu bawukina, bihuza abantu nko mu nama, Iyo haraba nk'inama bakunda kubanza bakina imikino, kugira ngo abantu baze gufana amakipe ari gukina, mbese uryoheshereza abantu bigatuma nyine inama bayitabira neza cyane.

Siporo ni nziza cyane, cyane cyane siporo yo kwirukanka , siporo yo kwirukanka ubundi iyo ukoze siporo yo kwirukanka cyane, mbese kwirukanka muri rusange umubiri wose uba uri gukora nta n'igice cy'umubiri kiba kitari gukora, kuko iyo uri kwirukanka amaboko aba ari gukora, amaguru ari gukora, umugongo uri gukora, ndetse ibice byinshi byose biba biri gukora by'umubiri niyo mpamvu kwirukanka ari byiza.

Siporo ni nziza cyane, zigorora umubiri, zikomeza amagufwa, zinjiriza n'amafaranga abantu b'abakinnyi nyine babigize umwuga, zinjiriza abantu, uri kumva ko abantu bose bagiye muri uwo murimo bose babona amafaranga bakabanakomereza umubiri.

Imihanda ya kaburimbo iba ari myiza cyane, n'imodoka ziri kunyuramo biba ari byiza cyane, noneho iyo hari n'uduhanda twagendesha amaguru, biba ari byiza cyane bituma abantu badahura n'impanuka nyinshi mu muhanda, maze abantu bakagendana umutima mwiza kandi bakagenda n'umutekano mwiza cyane.

Utuyira two mu cyaro tugiye mu midugudu tuba ari twiza cyane, n'iyo twaba tutarimo amakaburimbo na ho tuba ari twiza cyane, kuko bituma abantu bagera ku mago neza byoroshye cyane. Inzira zo mu midugudu ziba ari nziza na zo zoroshya urugendo, baraziharura ku buryo n'amamoto anyuramo, ukabona ibintu biri kugenda neza cyane.